Umukobwa uhagaze ufite imisatsi iboshye wambaye amarinete ufashe terefone mu kuboko kwe kw'ibumoso, arimo kubikura amafaranga kuri banki ye yifashishije ikarita.

Akazu gato ka MTN karimo umugabo ukoreramo imbere yayo hahagaze abantu batanu baje kwaka ubufasha bw'ibijyanye no kubitsa, kubikuza ndetse no kugura amayinite.

Akazu gato kimukanwa kubakishije ibyuma, gafite amabara y'umuhondo kariho ibirango ndetse n'amagambo bya sosiyete ya MTN, kabikirizwamo, kanabikurizwamo amafaranga kuri telefone.

Inzu nto yimukanwa yubakishije ibyuma iri mu mabara y'umuhondo, hari ibirango bya sosiyete ya Emutiyeni, yifashishwa kubitsa no kubikuza amafaranga kuri telefoni, harimo umugabo ufasha abaturage muri ibyo bikorwa.

Iduka rinini ricuruza ibiribwa bitandukanye, ku rugi rwaho hari icyapa kinini cy'umuhondo, kiriho uburyo wakwishyura ibyo uguze, wifashishije telefone.

Akazu gato kimukanwa kubakishije ibyuma, kari mu mabara y'umuhondo hariho ibirango bya MTN, imbere yako haparitse moto yicayeho umugabo waje kwaka serivisi ku mukozi ukoreramo.

Akazu gato kimukanwa kari mu mabara atukura kariho ibirango bya Airtel byandikishije mu mabara y'umweru ndetse n'umuhondo kifashishwa mu kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga kuri telefoni ndetse no kugura amayinite yifashishwa mu guhamagara.

Akazu gato gakoze mu byuma kandi kimukanwa, harimo umugabo wicayemo ukoramo, imbere yayo, hari umukobwa waje kwaka ubufasha bw'ibijyanye na serivisi batanga.

Igipapuro kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru, hariho ibirango bya sosiyete ya MTN, kigaragaza ibiciro bishya by'umukiriya, ukorana n'iyo sosiyete.

Utuzu duto twegereye umuhanda turimo udukorana na sosiyete ya Eyateri ndetse n'izindi dutangirwamo serivisi zigiye zitandukanye haba kuzicururizamo amayinite, kubitsa no kubikuza amafaranga kuri telefoni ndetse n'ibindi.

Utuzu tubiri turi mu mabara y'umuhondo dutangirwamo ibikorwa bya sosiyete ya MTN duherereye inyuma ya gare iparitsemo imodoka.

Abagabo babiri bicaye munsi y'umutaka utukura, uriho ibirango bya Airtel, imbere yabo hari utume tubiri, kamwe kariho ibirango bya Airtel, akandi hariho ibirango bya MTN.

Akazu gato ki mukanwa gakoze mu byuma kari mu mabara atukura, kariho ibirango byandikishije amabara y'umweru bya sosiyete ya eyateli hicayemo umugabo, imbere yayo hari umugore urimo kwaka ubufasha.

uUmuhanda wa kaburimbo, iruhande rwawo hicaye umusore, wicaye munsi y'umutaka, ufite ibara ry'umuhondo, hariho ibirango bya sosiyete ya MTN.

Umusaruro w'ibigori mwinshi birundanyije hamwe bigiye bizirikanyije kugira ngo bibashe kwanikwa kugira ngo byume, bityo bizabashe gukorwamo nk'akawunga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abagore babiri begeranye bicaye ku mashini yifashishwa mu kudoda imyenda igiheye itandukanye ikoze mu budodo barimo kudoda imipira y'ubururu bifashishije indodo z'ubururu.

Inyubako nini izwi ku izina rya Sacco, yifashishwa n'abaturage, babitsamo, bakanabikurizamo amafaranga yabo, bityo ikabafasha kwizigamira amafaranga yabo.

Imodoka nini itwara imizigo izwi ku izina rya fuso, ipakiyemo imifuka myinshi y'immyeru irimo imyaka igiye itandukanye, imbere yayo hari abagabo bambaye amasarubeti, bari kuyikuramo bazwi ku izina ry'abakarani.

Abantu benshi batandukanye, higanjemo abakuze, bamwe bambaye imipira y'ubururu, abandi batayambaye, bicaye ahantu hamwe, barimo kwitabira ibiganiro byabakoranirije aho ngaho.

Imbaga y'abantu batandukanye barimo abagabo ndetse n'abagore. Bicaye ku ntebe zitatseho ibitambaro by'imyeru. Baricaye barimo gukurikirana umuhango uri kubera aho ngaho.

Icyumba kinini kizwi nk'ububiko cyangwa se ubuhunikiro, harimo imifuka ya kawunga igerekeranyije ifite ibiro makumya na bitanu, yanditseho amagambo ari mu mabara y'icyatsi.

Abahinzi bateraniye hamwe, bambaye imipira y'icyatsi, barimo kwigishwa uburyo bwo gutera imyaka mu buryo bwa kijyambere, bubahiriza intera hagati y'igihingwa n'ikindi.

Abagore bane n'umugabo umwe bari mu murima uhinzemo inanasi bagiye kuzisarura barimo barazikuraho imitwe kugira ngo biborohere kuzigeza ku isoko.

Inyubako izwi nk'akabari harimo amayoga y'amoko agiye atandukanye afunze mu macupa agiye atandukanye, izwiho kugira imisemburo wa alukoro.

Akabari karimo ameza akoze mu biti, ateretseho amacupa atandukanye azwi ku izina ry'inzoga zitandukanye, hari n'intebe za pulastike ziri mu ibara ry'umweru.

Icyumba kinini, gikoze neza, kirimo intebe ndetse n'ameza arambitseho amasahane, ndetse n'ibirahure, byifashishwa n'abantu bahagendereye bafata amafunguro ndetse n'ibyo kunywa.

Inyubako nini yegereye umuhanda iriho ibyumba bigiye bitandukanye, bikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda ndetse n'ibiribwa bigiye bitandukanye.

Isoko rinini ricuruzwamo ibiribwa bigiye bitandukanye, harimo umugabo urimo gucuruza amafi, ufite umuhoro mu kuboko kw'ibumoso, inyuma ye hari abandi bacuruzi nabo bafite ibicuruzwa byabo.

Udukoresho dutukura tuzwi nk'udukingirizo turinda indwara zigiye zitandukanye zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse tukarinda inda zitateganyijwe.

Umugabo w'umupolisi wambaye impuzankano z'abapolisi, ari kumwe n'umupadiri wambaye ikanzu y'abapadiri, bafite icyapa cyanditseho gerayo amahoro, bahanye ikiganza ku bw'imikoranire yo gushishikariza abantu kugerayo amahoro.

Inyubako nini ya Kiliziya yubakishije amatafari ahiye, isakarishije amabati atukura. Imbere yayo haparitse imodoka bigaragara ko umuntu wayizanye ari muri iyo Kiliziya.

Ameza manini ateretseho amasahane y'imyeru hariho ibyo kurya biri mu moko agiye atandukanye, hateretse n'ibirahure birimo ibyo kunywa bitandukanye.

Umugore wicaye ku ntebe, ahantu hafatirwa amafunguro, arimo gusoma igitabo, imbere ye umukobwa urimo kumusukira icyayi mu gikombe.

Inyubako ndende igeretse irimo amacumbi, imbere yayo hari pisine irimo amazi meza, aho abantu basohokeye aho ngaho bogeramo. Iruhande rwaho hari udutebe abantu bicaraho.

Inyubako nini ifite icumbi ririmo igitanda kiriho uburiri bushashe neza, iruhande rwayo hari akabati gateretseho amazi, harimo n'agatebe umuntu yicaramo yaruhukiye aho ngaho.

Ahantu hubakiye neza hazwi ku izina rya pisine, harimo amazi menshi kandi meza, iruhande rwaho hari udutanda ndetse n'agataka, abantu bicaraho cyangwa se baryamaho ,iyo bavuye mu mazi.

Icyumba kirimo matela niho amashuka ashashe neza ndetse n'imisego iruhande rwacyo, hari agatebe ndetse n'ameza umuntu wagiyemo yicaraho igihe atararyama.

Isoko rinini ritubakiye, riteraniyemo abacuruzi bazanye ibicuruzwa byabo, bicaye munsi y'imitaka kugira ngo irinde izuba cyangwa se imvura, ibyo bicuruzwa byabo, hari n'abaguzi baje guhaha ibyo bicuruzwa.

Isoko rinini ryubakiye ricururizwamo imyenda n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye mo hagati harimo abagore bicaye ku mamashini bari kudoda.

Isoko rinini ritubakiye hateraniyemo ibicuruzwa by'amoko agiye atandukanye, harimo ibiribwa ndetse n'ibindi bikoresho byo mu rugo harimo imyuko, utuyunguruzo, ndetse n'ibindi byazanywe kugurishwa.

Isoko rinini ritubakiye harimo abacuruzi bafite imyenda yabo bashinze ibiti basakaza shitingi kugira ngo izuba ndetse n'imvura bitabyangiza.

Isoko riteraniye ku muhanda ricuruza ibiribwa bigiye bitandukanye harimo imboga ndetse n'ibindi, hateraniye abacuruzi ndetse n'abaguzi batandukanye baje guhaha izo mboga.

Isoko rinini riri ku muhanda hateraniye abantu benshi batandukanye, harimo abacuruzi ndetse n'abaguzi baje kugura ibiribwa bigiye bitandukanye, harimo imineke ndetse n'izindi mbuto zitandukanye.

Isoko ritubakiye ricururizwamo imyenda n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, hashinze ibiti ndetse hashakarishije shitingi kugira ngo birinde izuba ndetse n'imvura.

Isoko rinini ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, imyambaro ndetse n'ibiribwa n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, hateraniyemo abaguzi ndetse n'abacuruzi.

Isoko rinini ricururizwamo ibiribwa bigiye bitandukanye, harimo: ibitoki, amananasi ndetse n'izindi mbuto, hateraniyemo abacuruzi ndetse n'abaguzi baje guhaha ibyo bicuruzwa.

Isoko rusange ryakoraniyemo abacuruzi ndetse n'abaguzi benshi, baje guhaha ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo amasafuriya, amabasi, imyenda ndetse n'inkweto.

Isoko rinini ryubakiye rikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda, inkweto ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye, imbere yaryo hateraniye abacuruzi bafite imyenda mu ntoki.

Umuhanda munini wa kaburimbo, iruhande rwawo hubatse amazu atandukanye ageretse ndetse n'atageretse yifashishwa mu bikorwa by'ubucuruzi, imbere yayo haparitse amamoto atwara abagenzi.

Isoko rinini ritubakiye ricururizwamo imyenda igiye itandukanye, imwe imanitse ndetse n'ibikapu harimo abaguzi ndetse n'abacuruzi bazanye ibicuruzwa byabo kubigurisha.

Shitingi irambitseho imboga zitandukanye, haririmo ibitunguru na beterave, hari n'umuzani bifashisha bapima ibyo bicuruzwa kugira ngo bihabwe umukiriya.

Ameza manini arambitseho ikanya ateretseho isahani y'umweru iriho amafunguro atandukanye, hateretse icupa rinini ririmo icyo kunywa ndetse n'ikirahure cyo kurinywesha.

Umugabo utwaye umugore ku igare arimo kugenda ku muhanda wa kaburimbo, iruhande rw'uwo muhanda hari ipoto ndende ry'amashanyarazi risakaza umuriro w'amashanyarazi muri ako gace kagiye gatandukanye.

Umuhanda munini wa kaburimbo ukoze neza, hariho umumotari utwaye moto, wambaye kasike itukura, atwaye umugenzi w'umugore wambaye kasike y'ubururu.

Umuhanda munini wa kaburimbo uriho umumotari utwaye moto wambaye casike indi ayifashe mu ntoki, inyuma ye kuri moto haziritseho agatwaro karimo ibyo atwaye.

Umuhanda munini, wubakishije amabuye, worohereza ibinyabiziga, ndetse n'abanyamaguru, uri gucamo moto ebyiri, ziri kugenda zibisikana, imwe ihetse umugenzi, indi ntawe.

Umuhanda munini nyabagendwa wa kaburimbo, hariho umumotari utwaye moto wambaye kasike y'umuhondo, iruhande rw'uwo muhanda hari amafoto ajyana umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye, hari kandi n'inyubako zikorerwamo ubucuruzi.

Umuhanda munini wa kaburimbo, hariho umumotari utwaye moto, ufashe telefone mu kuboko kw'ibumoso, arimo kugenda ayivugiraho, iruhande rw'uyu muhanda hariho inyubako nyinshi zitondekanyije ku murongo, zikorerwaho ubucuruzi.

Umuhanda munini wa kaburimbo, hariho moto ebyiri zitwawe n'abamotari, zitwara abagenzi, iruhande rw'uwo muhanda hari amapoto manini, ariho insinga zisakaza umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda munini wa kaburimbo, uriho umugabo utwaye moto, uhetse ibicuba birimo amata agiye kugemura kugira ngo atunganywe anagezwe ku baturage byoroshye.